Umuntu uhagaze imbere y'inzu itanga serivisi z'ikoranabuhanga nko gucuruza telefone, kubitsa no kubikura, ufite igare uhagaze arebe imbere afashe mu mayunguyungu ameze nk'utegereje abamuha serivisi.

Inyubako nziza za kijyambere. Ziri ahantu heza hakosoye hafite isuku. Imbere hari umutaka w'umukozi ukorera ikigo cya MTN. Hari amapave asa neza n'isuku nyinshi.

Ni santere, iriho amazu bagerageje kubaka mu buryo bwiza bwa kijyambere, ahantu hakirimo kubakwa kuko hakiri imicanga n'ibitaka bitandukanye naho hatararangiza kubakwa neza.

Ahantu hakirirwa abantu runaka bagiye kuhasabanira, cyangwa kuhanywera nko mu kabari, cyangwa ahandi hakirirwa abantu nko mu gihe cy'ubukwe hari intebe nziza z'umutuku n'abantu barimo bahagendagenda n'ahagiye kwakirirwa abantu n'igi televiziyo hakurya hirya.

Amacupa ashyirwamo ibyo kunywa bitandukanye, bidasembuye abantu banywa, biriho ikirango cy'idarapo ry'u Rwanda ndetse biriho n'ubwoko bw'ayo macupa bw'ibyo binyobwa ibyo ari byo, abantu banywa bidasembuye.

Umuntu utwaye moto mu muhanda mwiza wa kaburimbo, hakurya yawo hari ibiti byatewe ku muhanda byo kugira ngo bizane amahumbezi no kurinda izuba abagenzi banyura mu muhanda, igihe barimo kugenda.

umugabo uri kuri moto uhetse umugore, bose bambaye Kasike, iruhande mu nzira y'abagenzi harimo abagore babiri barimo kugenda, bari mu muhanda wa kaburimbo usa neza kandi ufite isuku, igikorwaremezo kiza cy'u Rwanda.